Umuntu wicaye yikoreye amaboko afite umupira w'ubururu ufite imirongo y'umweru, arirabura, aziritse amaguru yicaye ku mukeka, hirya hari igitenge, inzu yicayemo isa nabi.